Ifoto ndi kubona imbere yanjye ni amafaranga ya Congo ifaranga rimwe rya Congo imbere n'inyuma imbere hariho abagabo batatu baziritse amaboko bicaye inyuma hariho ikirunga han bank ctrale di kongo hakaba n'ikirangantego cyabo.

Ahangaha ni kuri hotel kuri comptoir ya hotel ushobora gufata icyo kunywa cya gitandukanye ama wayine, amaririka, amabia, hari akabati mbere karimo mowai ,na malaca, noneho hakaba n'intebe zirimw, ibara rya shokora n'izindi ziririmo ibara ry'umukara ziri inyuma y'ibara rya shokora.

Ndi kubona ahantu barera bafatiye ibya mugitondo muri hoteri hari ameza ateretseho amajage namafureshi juyisi ibirahure ahandi hateretseho amayogate amasumafi hejuru y'amajageji hatetseho imineke hirya yamayahurute imbuto inanasi n'izindi pste itandukanye hirya y'aho gato hari ibinyampeke hepfoyo hari udus.

Ni umuntu ushinzwe gutanga amayinite ya MTN, akabitsa akanabikura, hejuru ye hari umutaka wa MTN, inyuma ye hari igikontineri cy'icyatsi, iruhande rw'iwe hari akabati karimo ibikarito bya biswi, inyuma y'iwe hari intebe y'icyatsi.

Ifoto ndi imbere ifoto nikoti imbere yanjye ni numukozi wa supermarket wambaye umupira w'umuhondo ufite ijosi ry'ubururu no kumaboko ibara ry'ruru ufite imisatsi y'umukara miremire mumisatsi harimo agatambaro k'umutuku imbere imbere hari umukiriya ufite ibara rya shokora mumutwe wambaye agashape mu ijosi wambaye n'ikanzu irimo amabara y'umukara na shokora nkabona akaboko n'undi gupakinga ibintu.